Umusore ufashe imishito itatu ziriho inyama , hejuru hariho ibirayi bya mucoma, yambaye ishati ifite amabara g'umweru n'ag'umukara n'ingofero niko bimeze, inyuma ye hariho abandi batetsi.

Udutaburete basigaga irangi ry'umweru n'udutebe turi impande yatwo, hariho jaride y'indabo zisa n'icyatsi hirya hari inyubako nini imeze nka hoteri.

Abakobwa bambaye amakanzu g'umukara , bateye intoki hejuru, bari guhana pisi, hirya yabo hariho urusasa n'ameza gateretse gatambitse n'intebe ziri inyuma yabo bishimye.

Amacupa gari mu kabati gateganye n'akandi garimo inzoga zitandukanye harimo ir'ibara riri kuja kubengerana hejuru y'aho harihona televiziyo ifite amabara y'umweruru.

Akabari karimo inzoga zitandukanye. Iyo abantu batatu bari ku meza, abakobwa babiri n'umugabo umwe wambaye ikositime isa n'umukara. Umukobwa umwe afashe icupa ry'inzoga rifite ibara risa n'icatsi, undi afashe ikirahuri gisa n'umutuku, undi afashe akaji mu ntoki.

Iduka rimanitseho ibitinge imbere, hejuru yaho hariho akapa, hasi hari umugabo wambaye isarubeti y'ubururu uri kudoda inkweto, umuntu ufashe inkoni uri kuyimanura.

Inyubako z'ubucuruzi zishaje, zubakishijwe amatafari n'isima， ziteye amarangi g'umuhondo， hari umuntu uri kugenda imbere yazo， hariho ibyapa biri kugaragaza ibintu bakoraga.

Iduka ry'ibikoresho byo mu nzu hariho indebe zisize amarangi g'umutuku na gicatsi, hariho n'indobo zifite amarangi g'icatsi g'umutuku, hirya hariho amakuvurori bitwikiraga, hirya kabaho n'utuntu bashiragamo amatunda.

Aho amamoto gaparika, haparitse amamoto menshi, gariho ibirango by'umuhondo, hariho n'inzu y'amabuye ikaba izitijwe uruzitiro rw'amatafari gahiriye, ariko gatariho isima nyinshi.

Inzu hejuru hariho amakaro， hasi hari amabara g'umukara， imbere hari akazu ka iyateri gasize ag'umutuku， handitseho umubare magana atanu n'urwego inyuma.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ifite ibyapa bibiri, hejuru hazitiye n'uruzitiro rw'amatafari n'urwibyatsi, n'inzu iriruhande yarwo.

Iduka ry'imyenda n'ibikapu bisa n'umutuku ibindi bifite amabara g'umweru, n'agavangavanze. Iruhandere hari amakaro, hariho n'igitereretse hasi, hirya hariho n'irimo ibivangavanze n'ubururu n'umukara.

Icapa kimanitse ku nzu gishushanyijeho igicupa gitwaraga amazi, gitwaraga amata, hariho amata g'Inyange, hariho n'igishashi cyanditseho ngo fanta, hasi yaho hariho nimero za telefone na imeri.

Inzu ibiri zegeranye zifite amakaro gasize amabara gagiye kuba nk' ubururu, imbere yaho hariho uruzitiro rw'ibisika rwubakishije imigano myinshi ,imbere yarwo hariho kaburimbo irimo amabara g'umuhondo, n'ag'umukara kuruhande, n'ag' umweru.

Inyubako ya Etaje ibiri iriho icapa gishushanyijeho ibikoresho by'ubucuranzi Migiseri, Senti, Bafure, Gitari, ingoma za kizungu, hejuru handitse turikumwe elitedi, ikaba isize n'amarangi g'umuhondo naga umweru.

Alimantasiyo ikinguye irimo umuntu uri gucuruza, hari imigati, imineke, amatirimusi garamo icayi, n'umugabo wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru, hirya y'urugi hari agataburete.

Inzu yubucuruzi yubatse mu isoko, yanditseho ijambo sikoro isizwe amarangi g'umuhondo, imbere yayo hariho umutaka g'umuhondo ,numu agenti wambaye akajiri k'umuhondo.

Igorofa rigeretse gatatu, ryubakishije sima n'amakaro. Hasi ku igorofa ya mbere hariho ibyapa byanditseho ngo Gudurayifu, hejuru handitseho ngo Havanagesite, hejuru ya ho nta kintu kihanditse.

Ameza gararambitseho imvitasiyo zigerekeranyije zitari kurebana hirya yazo hariho icupa hariho igipata bari gufungura ngo bagikingishe ingufuri.

Iduka rifunguye ririmo imyenda, harimo amashati n'amakoti. Imbere hari umugore uri kwambukiranya wambaye umupira g'ubururu. Hejuru hari icapa kiriho abagabo bambaye amakoti g'umukara n'amakanzu g'umutuku, n'abambaye amakanzu g'umweru, iruhande rw'ameza hariho agasanduku k'umuhondo.

Kontwara irimo ibitanda by'indumburabutaka harimo ibikarito birimo amaji n'inzoga bitandukanye, hejuru y'ikindi gikarito harimo amavuta ya santi n'ibikotoro muri etajeri ya mbere harimo za novida na za fanta, muri iyi ya kabiri harimo mariti.

Butike ifunguye, bacururizamo imitobe n'amaji, hanze hariho ameza y'umutuku ariho capati, amadirishya n'urugi bisize amarangi y'ubururu.

Umugore uhagaze mu iduka, ririmo udufuka twa kawunga, ibikarito by'amabiswi mudufuka tw'imiceri, hirya hariho amakarito g'amavuta go kurya, gari mu tudomoro na omo ziri mu tudobo.

Inzu ebyiri zegeranye, hirya yo hari indi, iya mbere isize ibara ry'umutuku, hejuru hari amakaro, imbere ku muryango hasize ibara ry'icyatsi. Hari abagabo babiri bambaye umwe yambaye umupira w'umutuku, undi yambaye ijire y'umuhondo, hirya y'aho ku ya kabiri hari igare riri ku muryango, hirya hakaba igiti cyegetseho igare ririho umufuka w'ibirayi.

Butike irimo ibikoresho bitandukanye harimo imipine z'amagare, intebe zago, insinga arizo bakoreshaga amashanyarazi, indobo za baregerezagamo amazi.

Uruzitiro rw'igipangu ruzitije ibyuma bifite amabara gubururu hirya hariho icyapa kiri hejuru yurwo ruzitiro mohagati harimo ibisheke n'ibiti hirya hakaba inzu y'amabati g'icatsi.

Amaduka bacururizagamo imyenda harimo agafunguye garimo imyenda, hejuruyaho hariho ibyapa biranga ko bacururizagamo imbere yago harimo umuhanda wa kaburimbo urimo n'abamotari bari gutwara.

Igikuta gishushanyijeho ibikoresho bya siporo bitandukanye. umupira wamaguru, uw'intoki, tenisi, umupira go gukina wambaye, inkweto za godiyo zo gukina wambaye, na terefone wabarizaho ibyo bikoresho.

Inzu ikinguye umuryango, ku rugi hariho ijire y'umuhondo, hejuru hari icyapa kigaragaza serivisi zitangwa na nimero za telefone, winjiyemo hari akabati, hari akadomoro hejuru, n'intebe imbere y'akabati, na mashine imbere.

Inzu yubakishijwe amakaro umweru n'agubururu hejuru yaho hari utwuma dutatu duteganye urugi rurafunguye ariko rusize amabara g'umutuku hamanitseho imifuka ziri gucuruzwa.

Ahantu bakorera amagare garahaparitse hari umugabo uri kugakora n'undi wicaye ku gatebe ku miryango y'amazu itandukanye irafunze hariho n'akapa k'umudugudu gwa Muhi.

Abagore babiri bari guhata kokombure, hejuru yaho hari imifuka y'amabara g'icatsi, n'umuhondo n' umweru hirya gato hasi hariho igihaza n'ibindi bihaza byinshi n'umufuka w'amakara.

Hoteri yubatse neza yubakije amatafari g'umutuku, isizwe n'amarangi g'umukara. Imbere yaho hariho indabo z'umuhondo, hejuru ku gikuta handitse amoyizingi modani eyiti endi gesite hawuzi, hariho na numero za terefone zabo.

Inzu imbere yayo hicaye abantu batatu bafashe igikapu, imbere yabo hari umutaka w'ubururu, hari abagabo babiri bari gutambika, bambaye amajire y'umuhondo，hejuru yaho hari icyaba gisa na oranje, cyanditseho ngo futuboro.

Inzu ifite ama etaji ane imbere yayo haparitse imodoka irindwi zifite amabara g'umukara nag'umweru hejuru hari icapa canditseho ngo arayizere legitoroniki hejuru ku ya kane hari ikindi cyanditseho ngo noteri wikorera kiri mumabara g'umweru na g'umutuku.

Inyubako yanditseho Amezingimodani elitedi Gesitihawuze na nomero za terefone zanditse mu mabara gw'ubururu, yubakishijwe amatafari, amakaro gw'umweruru, hariho n'udusikariye tugiye dutondekanye ku murongo.

Igikuta cubatse neza, cubakishije amabuye gateye irangi ry'ikigina. Hariho inkingi ibiri, hari ikirango canditseho Golota resito. Hasi hariho ijaride ririmo amahuhwa gafite amabara gatandukanye.

Iduka rifunguye riri mo ibikarito biri mo ibintu bitandukanye bigerekeranije kugera mu inzu ndani impande zombi. Mu umuryango hari umugore wambaye ibitenge uri kureba hirya y'iryo duka.

Iduka ririmo ibyokurya ibihaza, imbere yaho niho hari imyenda, hejuru yaba ibitabo, imbere hari umuryango umanitseho ubwoko bw'ibyo biribwa, hirya yaho hariho na kandagira ukarabe y'umutuku.

Iduka bacuruzagamo amavuta gwo kwisiga harimo n'amasabune g'amazi n'amasafuriya g'ibyuma, hijya yaho hariho udusume n'imifuka zifite amabara gw'umweruru n'ibitenge bari gucuruza.

Akabutike k'umukara kanditseho ngo home sambusa, hejuru yaho hari inzu ya etaji hirya yaho hari umwenda gwa emutiyeni, hicaye umugore imbere yaho wambaye umupira gusa na move.

Imodoka ipakiye amaturere arimo amagi atwikiriwe n' ishitingi uruhande rumwe rutwikuruye, harimo uhagarariye koperative ,abandi barimo kuyagura.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo akabati mbere yako harimo igare ririho icupa ku rugi hari intebe ihatambitse hejuru y'urugi hari icyapa kigaragaza ibyo bakora muri iyo nzu.

Akazu gasize ibara ry'umutuku, bacururizamo mitiyu na airtel money, hariho n'agatebe bicaramo. Ku idirishya hari umugabo uhagaze utegereje ko bamuha serivisi.

Iduka bacururizagamo amaji g'ubwoko bwose harimo utudomoro tw'umutuku dufite amabara umukara, ag'umuhondo harimo amabiswi harimo na firigo iteretsemo utudomoro tw'amata.

Inzu yubakishije amakaro isizwe irangi ry'ikigina, inzugi zayo zisize amabara g'icyatsi, ku muryango hariho indobo z'amarangi, n'ibidomoro bisize amabara g'umuhondo.

Amaduka gashaje gasize amarangi, imbere yaho hari ibyapa bya Eyateli n'ibya Emutiyeni harimo ibisize amabara g'umutuku. Hirya hariho umuryango gufunze guteretseho amagazi gahambiranije hamwe.

Iduka bacururizagamo ibintu bitandukanye harimo amasabune g'amazi aga omo harimo n'amavuta go kwisiga hari abagore bambaye amakanzu gasa n'umukara bahagaze bari kubaza nundi wambaye igitenge gishasha.

Umukobwa n'umuhungu bahagaze imbere y'amaduka ari gucururiza imyenda ifite amabara y'umuhondo, hejuru ya ho hari icyapa cyo cyanditseho ngo Bariserone shopu, ifitemo amabara y'umuhondo, amacupa ashushanyije, n'utudomoro, yewe hirya hakabaho n'umutaka w'umuhondo.

Etage yagoyiko puraza iriho igishushanyo ca sikoro, hari n'umutaka imbere gwa emutiyene, n'abamotari baparitse n'abatwaye.

Umuryango gurangaye guriho irido rifite amabara g'umweru n'inkingi isize amabara g'ubururu n'utwuma dufatanye n'iyo nkingi, gariho inzugi zisize ag'icatsi.

Kaburimbo iri impande y'amaduka, iparitsemo imodoka ziri kumanuka no kuzamuka, hari imitaka za emutiyeni, zifite amabara gw'umuhondo.

Umuhanda gwa kaburimbo gurikugendamo moto ihetse umugore, bambaye amakasike g'umutuku. Iruhande rwago harimo amazu g'ubucuruzi gasize amarangi g'umuhondo n'ag'umutuku. Haruguru yaho hari icapa canditseho Akarusho niyu havana bare.

Isoko ry'ibiribwa ririmo ibiribwa bitandukanye harimo ibirayi biri mumifuka hakabamo inyanya, imboga, karoti igitoki ,bitwikiriwe n'imitaka zifite amabara gatandukanye harimo ug'umutuku gwanditseho eyateli ug'ubururu gwanditseho pirimusi nug'umuhondo gwanditseho emutiyene.

Inzu y'ubucuruzi ifite imiryango itanu. Uwa mbere urimo ibicuruzwa; amafu. Uwa kabiri imbere y'aho hateretse amagazi afite amabara y'umuhondo, icyatsi n'umutuku. Hirya y'aho hateretse moto n'umugore uhetse umwana.

Igikoroboyi gishushanyijeho ibitunguru bisatuye bigiraga amabara g'umutuku hejuru yaho handitse uniyoni redi kerewolo, hirya hari ikirango canditse mu mabara g'icatsi.

Iduka ry'inkweto ririmo akabati gafite utu yetajeri dutanu gasize amabara g'icatsi ,hasi muko hasi harimo agakarito karimo ibintu, hasi hariho udusikariye tugiye dutondeganye.

Umugabo uhagaze impande y'icapa cyanditseho adeperi gisize irangi ry'amabara g'ubururu, hirya ye hari umuhanda gwa kaburimbo gurimo akarongo k'umuhondo, harimo n'abagenzi bari kugenda n'amaguru abandi n'amagare.

Abaririmbyi bicaye ku kumurongo，bicaye muri sare isakajwe n'ishitingi， ifite amabara g'umweru， bambaye amakanzu gafite amabara g'umukara n'amakoti gafite amabara g'amaharare biteze n'udutambaro，hejuru imbere yabo bateretsemo...

Inyubako isize irangi ry'umweru n' iry'ubururu n'umukara, ikaba yanditseho unguka Gakenke buranshi, ikaba irimo imbere abantu babiri, umwe ahagaze imbere, amadirisha n'inzugi bifunze.

Icapa kiri ku muhanda canditseho filati home gesite hawuzi ishushanyijeho isahani iriho ifi ihiye ishushanyijeho igitanda hariho n'ikirahuri kirimo inzoga.

Umuntu utwaye akamoto ka Lifani gasize amabara g'icatsi hasi hejuru gasize ag'umweru, hirya hari inzu ifite umuryango ukinguye usize amabara gasa na Shokora.

Icapa c'umweru canditseho Karasike rezoti loji, gifite akaziga gafite ibara ry'icatsi, hasi handitse inimero za telefone na mesaje aho zandika kuri imeli, hariho n'ibirometero birindwi, agafureshi kari kwerekeza haruguru.

Umuti gw'inkweto z'umukara gwitwa isiraje, bugerekeranye amacupa abiri n'agamavuta ga sante bisigaga, gateretse ku gandi gafte umufundiko gw'icatsi.

Ibirayi bya Kinigi byakobaguritse biri mu iduka. Umugabo ari kureba ko hari abakiriya baraza kubigura, hirya ye hariho utuyetajeri tubagamo ibyo birayi.

Isoko ririmo abaguzi n'abantu bari kugurisha, harimo n'ibitoki, abagore bari kuja hirya no hino bari kugura ibicuruzwa. Harimo n'ufashe mu mifuka wambaye umupira gw'icatsi n'uwambaye ug'umweruru.

Ceceka. Butike irimo amaterefone mu kabati， gafite utu etajeri tune， hejuru hariho ingofero zifite amabara g'umutuku nag'umukara，hirya hariyo amashurujipe， gagiye gusa n'icyatsi n'umuhondo，hasi hariho amaradiyo n'abagabo bari kubaza ibiciro by'ago maradiyo n'ingofero.

Ibiribwa biri mu soko harimo imboga n'imbuto biri mu base y'icatsi iyindi isa n'umutuku harimo intoryi, karoti, inyanya, beterave, hariho umugore wambaye n'umupira g'ubururu n'umugore uri gukoramo wambaye igiteteyi c'umutuku n'inkweto z'umukara.

Isoko ririmo imiteja iri mu ibase iri hasi, ibitunguru, umunzani ,abaguzi n'abacuruzi.

Inkoko n'inkokokazi ziri mu kirundo cazo cubakishije imbaho na za senyenge, gikingishijwe igipata kinini n'ingufuri igiye kugira amabara g'umuhondo, hirya yaho nta kindi kintu gihari.

Isoko ririmo ibirayi risakaye ,harimo abacuruzi n'abaguzi. Hirya yabo hari imyuzani, hakaba hariho n'utubutike tubegereye twubakishije imbaho bacururizamo inkweto.

Isoko rya kijyambere ririmo ibicuruzwa bitandukanye:Harimo amasafuriya agerekeranye, indobo zifite amabara y'ubururu n'ay'icyatsi, harimo za pampegisi, harimo imitaka ifite amabara y'umundo ya emutiyeni, hirya y'aho ari amapoto ari hejuru y'amazu y'isoko.

Umugabo uhagaze imbere uri gucuruza amabase gateretse mu gandi gafite amabara g' umutuku, g'icatsi n'ag'ubururu hirya ye hariho n'ibikosi bimanitse kuri iryo duka.

Igisima giteretseho ibishyimbo, ikindi giteretseho amasaka, n'intara, n’ifu ziri mu ndobo n’ibase, inyuma yabyo hari umugore， hirya hari utubati dukoze mu mbaho.

Amatureyi bashiragamo amagi guzuye amagi gose imbere hari umugore uri hugatonora ari gugarya ago matureyi gasa n'icatsi agandi gasa n'ubururu agandi ni umutuku hejuru isoko rirasakaye ariko rifite igisenge c'ibiti.

Ibicuruzwa bitandukanye biteretse hanze, harimo imirunga, udusanduku babikagamo amafaranga, imitego ya gakoco itegaga imbeba, indiga n'amapata n'imyuko.

Inyubako ya Goyiko Puraza, hasi hariho abantu, harimo abari mu mutaka g'umuhondo gwa Emutiyeni, hariho n'imodoka ziparitse imbere, hariho amagaze gasa n'ubururu, hejuru yaho hariho ibindi byapa bitandukanye.

Umufuka gusa n'icatsi harimo umweru n'ugundi g'umweru harimo amabara g'ubururu arimo ifu, hejuru y'aho harimo igikarito kirimo udutoroshi n'imyunyu.

Igifenesi co baryaga gihishije gifite amabara g'umuhondo nagagiye gusa na shokora, hirya yaho gifite inkondo yumye idaciye.

Indobo ibiri imwe irimo ubusa iyindi irimo amananasi, gahase hirya yaho hariho igifuka cashaje cegereye igikuta c'amatafari.

Iduka bacururizagamo imbuto n'imboga hariho urusenda rw'icatsi urundi rufite amabara g'umuhondo harimo za karoti harimo amashu gashufurere baryaga hakabamo na za puwavoro na za epinari na za sipinaci.

Amabenye gasa n'umutuku gari mu ndobo y'umweru igiri gukengerana, hirya y'aho hari ikintu gisa n'umutuku, hakaba harimo agagiye gusa umukara gahiye cane, agandi go garererutse kubera gatahiye cane.

Umufuka munini gurambitseho indiga ibiri, n'imitego za gakoco ine ,n'amapata bubakishaga inzugi n'udusandugu bashiragamo amafaranga dupfumuyemo agatobore kamwe ,hirya yaho hari igisima kiriho ubusa.

Isoko ry'imbuto n'ibiribwa harimo: za pome, za oranje, za wotameroni, harimo n'iminzani iri gupima ibintu bitandukanye, harimo n'amagi n'utuntu bapfunyikamo amagi dutandukanye.

Iduka ririmo amacupa y'amavuta y'amabara menshi atandukanye, indorerwamo, agakapu ,birabambika abana, hakabamo n'abagabo babiri n'umugore umwe barimo kwitegereza ayo mavuta.

Abantu benshi bari mu isoko bafite amagare gariho ibitebo, abandi bafite imifuka, abandi bafite ibitoki, abandi bari kwishura amafaranga aho ariho ubutaka bugiye gushira n'urwondo rw'umutuku.

Igisima cyo mu isoko giteretsemo amasahani, amabasi asa n'umutuku, ibikosi bifite amabara y'umweru, ubururu, amasahane afite amabara y'umweru n'amasafuriya yo gutekamo.

Iduka ririmo ibikapu byinshi bitandukanye bifite amabara g'umukara ag'umutuku nag'ubururu, hari kwinjiramo umugore wambaye ishati ifite ibara ry'umweru n'ingutiya y'umutuku, n'imitsatsi zimanuye z'umukara.